Icyumba giteraniyemo abantu benshi batandukanye abagabo ndetse n'abagore, abo bantu bose barahagaze kandi abenshi muri bo bambaye umwambaro utukura ufite ikimenyetso mu mugongo cy'itsinda rishinzwe gutabara imbabare rizwi nka kuruwaruje, bakaba bari kuganira ku bijyanye n'uwo murimo bakora.

Abagabo babiri umwe wambaye ishati y'ubururu undi wambaye ishati yenda kuba ivu, aba bagabo bahagaze imbere y'imodoka y'imbangukiragutabara izwi nk'ambiranse igeza abarwayi aho babasha kubona ubufasha cyangwa se ubutabazi bwihuse.

Abantu benshi batandukanye bari mu muhanda usohoka ku bitaro by'Akarere bya Nyagatare. Bakaba bafite icyapa imbere yabo, cyanditseho ngo kwibuka ku nshuro ya mirongo itatu, ibitaro bya Nyagatare. Bakaba ari abakozi b'ibitaro by'Akarere bari kwifatanya n'abandi banyarwanda muri rusange, kwibuka ku nshuro ya mirongo itatu Jenoside yakorewe Abatutsi muri Mata mu cya magana kenda mirongo ikenda na kane.

Abantu benshi batandukanye, abagabo, abagore ndetse n'urubyiruko, muri abo bantu, abenshi biganjemo, bambaye udupira twera, iruhande rwabo hari ibyapa byanditseho ngo baho neza, inyuma yabo hari inzu mbera byombi, bari bahuriyemo kugira ngo bahabwe amahugurwa runaka.

Icyumba giteraniyemo abantu benshi batandukanye ,abagabo ndetse n'abagore, bamwe muri aba bantu bafite amakaramu ndetse n'impapuro bari kwandika ibivugirwa aha , abandi nabo bafite za mudasobwa imbere yabo bari kwandika ,muri aba bantu harimo abambaye imyambaro yera ,ikunda kwambarwa n'abaganga igihe bari mu kazi kabo.

Abakobwa babiri, bari mu cyumba cyo kwa muganga cyabugenewe, bapimiramo imiti ndetse n'indwara zitandukanye, abo bakobwa bambaye amadarubindi, bambaye kandi n'umwambaro wabugenewe w'icyatsi, bambara iyo bari mu kazi kabo, bambaye n'uturindantoki ndetse bafite uturahuri mu ntoki zabo twifashishwa muri ako kazi.

Imbaangukiragutabara cyangwa se Ambulansi mu ndimi z'amahanga, ikaba ari imodoka yabugenewe ifasha ubutabazi bw'ibanze cyane cyane igihe umurwayi akeneye kuvanwa ahantu hamwe ajyanwa ahandi kugira abashe kubona ubuvuzi bwihuse.

Icyumba cyo kwa muganga barwariramo, icyo cyumba kirimo igitanda, ku icyo gitanda gicayeho umubyeyi, umubyeyi ari kumwe n'umwana we muto ufite telefone mu ntoki uri kurebamo utuntu agaseka , umubyeyi nawe we ari kureba uwo mwana we akamwenyura.

Inzu nyinshi kandi nini zubakishije amatafari ahiye ndetse zisakaje amabati y'ubururu bwerurutse, imbere yazo haparitse imodoka izwi nk'imbangukiragutabara igeza abarwayi aho bashobora kubonera ubutabazi bwihuse, ibyo bisobanuye ko izi nzu zitangirwamo serivisi z'ubuvuzi zikaba ari ibitaro cyangwa se ikigo nderabuzima.

Abantu babiri, umwe ni umuganga wambaye umwambaro wera wabugenewe abaganga bambara iyo bari mu kazi ndetse n'uturindantoki undi ni umubyeyi wambaye ibitenge uwo muganga ari kugerageza kumufata amaraso mu gatoki kugira abashe kumupima indwara zitandukanye bapima mu maraso sida, malariya ndetse n'izindi.

Ibiganza by'umuganga wambaye uturindantoki. Mu ntoki ze afite ibikoresho bitandukanye ari kwifashisha kugira ngo apime indwara mu maraso yafashe mu barwayi batandukanye.

Igikoresho cyo kwa muganga kiba mu cyumba cyitwa laburatwari, aho bapimira indwara zo kwa muganga, bakaba bagikoresha bareba mu maraso y'umuntu, niba nta tunyabuzima dutoya turimo, cyangwa se utwo twita udukoko, cyangwa se dushobora kuba twamutera indwara.

Umuntu uri muri laboratwari, yambaye imyenda yabugenewe yera ndetse n'uturindantoki, hari ibyo arimo asukasuka mu turahuri twabugenewe, yifashisha ari gupima indwara zihapimirwa.

Icyumba cyo kwa muganga gisuzumirwamo indwara muri icyo cyumba harimo abagabo babiri bambaye bikwije ahantu hose mu myenda y'imyeru, bari kureba mu mashini zireba utunyabuzima dutoya twihisha mu mibiri y'abantu tukabatera indwara, izo mashini zitwa mikorosikopi.

Umutegarugori wambaye agapira ka oranje k'amaboko magufi ufite indangururamajwi mu ntoki ze. Inyuma ye hari icyapa cyanditseho ngo, icyumweru cyahariwe ubuzima bw'umubyeyi. Twite ku buzima bw'umubyeyi utwite, n'umwana abonere inkingo ku gihe.

Umubyeyi wicaye ku bitanda byo kwa muganga akaba ateruye agahinja kakiri gato mu bitambaro by'umweru ndetse n'ingofero y'umweru, arikitabwaho n'abaganga babizobereyemo kugira ngo umwana abashe kubona ibikenewe byose kugira ngo akure neza.

Umubyeyi wicaye mu ntebe ya palastiki y'ubururu, uwo mubyeyi akaba yambaye isaha mu kaboko kw'iburyo, ateru uyu mwana ukiri muto utaruzuza umwaka, umwana yambaye ingofero y'umweru akaba ari kumwonsa.

Umukecuru wambaye igitenge kiganjemo amabara y'ubururu, akaba ateze igitambaro cy'umuhondo ateruye umwana, ndetse iruhande rwe hari umugabo wambaye ikote ry'ubururu bwijimye n'ishati y'umweru, ndetse yambaye n'amadarubindi, akaba ari gusuzuma uwo mwana ngo arebe niba nta kibazo afite mu kanwa.

Ibiganza by'umuganga wambaye uturindantoki, ufite urushinge mu ntoki, uri kurutera undi muntu na we wambaye imyenda y'icyatsi, akaba ari kumutera urushinge kugira ngo amukingire indwara runaka cyangwa se amutera umuti w'indi ndwara runaka.

Icyumba kicayemo ababyeyi babiri, umwe yambaye igitenge ndetse ateze igitambaro cy'umukara, undi ugaragara nk'umuganga yambaye itaburiya y'umweru ndetse bombi bari kuganira, bigaragara ko muganga ari gufasha uyu mubyeyi kugira ngo abashe kumuhumuriza bitewe n'ibibazo afite by'imitekerereze.

Kugira ngo ubuzima bugende neza umuntu aba agomba kwishima. Aha abasore babiri n'abakobwa babiri bicaye ku ntebe, imbere yabo hari ameza, hariho n'ibintu bigiye bitandukanye. Bari kugerageza gukina udukino runaka, bakareba utuntu tubashimisha kugira ngo ubuzima bwabo burusheho kugenda neza.

Icyapa cy'umweru kigari kiriho ibirango bitandukanye ikirangantego cy'igihugu ikirango cya Polisi ON UNICEF ndetse n'ibindi. Kuri icyo cyapa hariho amagambo y'umukara agaragara kurusha ayandi agira ati Isange One Stop Center.

Inzu icururizwamo imiti y'ubwoko butandukanye, izwi nka farumasi. Muri iyi nzu harimo utubati twera tubitsemo imiti igiye itandukanye. Abantu barahagana mu gihe bandikiwe imiti na muganga, bakaza kuyihagurira kugira ngo ibashe kubakiza uburwayi bwabo.

Inzu icururizwamo imiti izwi nka farumasi. Iyo farumasi irimo imiti itandukanye ndetse hakaba harimo n'umutegarugori wambaye imyenda yera yabugenewe y'abakozi babo akaba ari kureba umuti runaka.

Inzu icururizwamo imiti izwi nka farumasi. Muri iyo nzu harimo utubati tw'umweru dutandukanye tugiye tubitsemo imiti y'amoko atandukanye. Muri iyo farumasi kandi harimo umukobwa wambaye ikanzu y'umweru, wambaye isaha ku kaboko k'ibumoso ndetse yambaye n'amaherena. Ari kugenda ashyira iyo miti ku murongo kugira ngo itaza kwivanga cyangwa ikaba ibitse mu kavuyo.

Inzu icururizwamo imiti izwi nka farumasi harimo imiti myinshi igiye itandukanye, ndetse ahagana hejuru hari icyapa cy'icyatsi cyanditsemo n'amagambo y'umweru ngo farumasi mu ndimi z'amahanga, muri yo kandi hahagazemo umuntuntu uri kuri mudasobwa urimo ugenzura neza imiti yaranguye ndetse n'iyacururujwe.

Abantu benshi bari kugenda mu muhanda, muri bo harimo n'ab'inzego z'umutekano zitandukanye: Polisi, abasirikare ndetse na za Dasso, imbere yabo bafite icyapa kiriho ikirango cy'ikirangantego cy'Igihugu ndetse n'icya Polisi cyanditseho amagambo agira ati: "Ukwezi kwahariwe ibikorwa bya Polisi 2029, gukumira no kurwanya ibiyobyabwenge ni inshingano yanjye."

Abanyeshuri bambaye impuzankano y'ubururu ijuru hejuru, bafite icyapa cyanditseho ngo ''Ndi uw'agaciro ndashoboye''. Bakaba bari mu myiyerekano igendanye n'ubuzima rusange.

Inzuki nyinshi cyane zafashe ahantu ku giti, inzuki nizo zikora ubuki, ubuki ni umwe mu miti gakondo abantu bifashisha bakabasha gukira indwara zigiye zitandukanye bidasabye ko babanza kujya kwa muganga ngo bafate imiti ya kizungu.

Imiti gakondo, ishobora gufasha umuntu mu burwayi runaka, bitabaye ngombwa ko buri gihe cyose arwaye, abanza kujya kwa muganga. Hano dushobora kuvugamo imiti myinshi igi itandukanye nka tangawizi, igikakarubamba, tungurusumu, ndetse n'indi myinshi cyane ishobora gufasha umuntu.

Icyumba kirubyemo ibikarito byinshi. Icyo cyumba kikaba kigaragara ko ari icyumba cyo kwa muganga. Kubera ko ibikarito bibitsemo ubona ko ari bibitsemo imiti. Bimwe muri ibyo bikarito byanditseho amagambo yo mu ndimi z'amahanga agira ati ''VETOXY 20, BIOSOL'', ndetse n'ibindi.

Umubyeyi uteze igitambaro k'ivu ndetse n'agapira yambaye ni ak'amaboko maremare nako kenda kuba ivu. Yicaye ku bitanda byo kwa muganga ndetse ateruye agahinja ubona ko kakiri gato rwose.

Icyumba cyicayemo abantu benshi batandukanye, urabona abagabo ndetse n'abagore. Abo bantu baragaragara nk'abarwayi, bivuze ngo iki cyumba bicayemo ni icyo kwa muganga, aho abarwayi bategerereza, kugira ngo babonane na muganga, abashe kubafasha kumenya uburwayi bwabo bafite.

Abantu bane b'igitsina gore, bari mu cyumba cyabugenewe cyo kwa muganga, gipimirwamo indwara ndetse n'imiti itandukanye. Bose bambaye uturindantoki n'uturinda minwa ndetse bambaye n'umwambaro wabugenewe w'ubururu bwerurutse, bari gupima ibintu runaka. Harimo umwe ufite ikaramu uri kwandika.

Inyubako ngari iteye amarangi yiganjemo ubururu, imbere y'iyo nyubako hahagaze abagabo bagera mu ikenda hejuru yabo hari icyapa kigali nacyo kiri mu marangi y'umweru cyanditseho mu ibara ry'umukara mu magambo yo mu ndimi z'amahanga agira ati Nyamikamba Health Post ikaba ari inyubako y'ubuvuzi.